Iyi shusho iragaragaraho igikoresho gakondo cya kera. Kifashishwa mu gutambutsa amajwi. Kizwi nk'iningiri abahanzi ba kera...

Uyu ni umuvure bakamiramo ibitoki, hejuru y'aho hariho ubutanda baterekaho amakatsi bagakamura umutobe umanuka ujya mu muvure.

Iyi foto iragaragaza ipoto ririho taransifo ibika amashanyarazi ifashweho n'insinga zitandukanye, hirya y'aho hateye insina z'ibitoki.

Iyi shusho iragaragaraho icyapa, kiriho ikirango cy'igihugu, repubulika y'u Rwanda intara y'iburasirazuba akarere ka Nyagatare, urugerero rw'inkomeza.

Iyi foto iragaragaraho umubyeyi w'umu mama. Uri gutera ishoti umupira apasa, umubyeyi w'umupapa. Wambaye impuzankano y'umuhondo ndetse n'inkweto.